Inzu irimo umuganga bigaragara ko bacuruza imiti. Harimo imiti ivura umutwe igihe uri kuribwa cyangwa se ivura mu inda igihe warwaye inzoka. Kandi bacuruza n'ibinini bivura ibisebe igihe wakomeretse cyangwa se wakoze impanuka.

Imodoka yitwa ambilanse. Imodoka yitwa ambilanse itwara abarwayi ibajyanye kwa muganga. Akenshi ikunze kubatwara ibakuye ku bitaro bitoya ibajyanye ku bitaro bikuru biriho abaganga b'inzobere.

Abantu bari kugenda mu muhanda bigaragara ko bavuye ku bitaro, kuko impande yabo hariho imodoka ihagaze n'i darapo ,ndetse abantu bambaye amataburiya , bigaragara ko ari abaganga bavura abarwayi.

Imiti itandukanye y'ubwoko bwose hariho ibinini bivura mu mutwe, hariho ibinini bivura munda cyane nk'ibinini by'inzoka, hariho ibinini bivura ibisebe igihe umuntu yakomeretse yakoze nk'impanuka ikomeye cane.

Abagabo bari kubaka ikiraro cy'ibiti, ikiraro ni igihe umuhanda wacitsemo kabiri, hanyuma mugashaka ibiti mugashyiraho hejuru kugira ngo mujye mubinyuraho muri kwambuka cyangwa se nk'amazi yaraciye umuhanda mo kabiri.

Igiti cyiza cya gereveriya kiri gukura neza, igiti cya gereveriya iyo gikuze ukibazamo imbaho, izo mbaho ukazifashisha mu gukora urugi cyangwa se izo mbaho ukazifashisha mu gukora amadirishya, igiti cya gerervea kirakomera cyane kurusha inufi.

Ibyatsi biteye neza byitwa igisura, igisura ni icyatsi ushobora kwifashisha uri gukoramo umuti, cyane cyane nk'abaganga bari gukora ubushakashatsi, baragifata bakacyumisha ifu yacyo bakayikoramo umuti uvura abantu.